Aya ni amatara yo ku muhanda agabanya, atuma abantu bambuka ndetse n'imodoka zikambuka, iyo ryatse itara ry'icyatsi ni ukuvuga abantu bagomba kwambuka, itara ry'umutuku imodoka zigatambuka abantu bakareka kwambuka.

Iyi ni inzu ndangamurage iboneka, iyi ni inzu igaragaza ko inzu ndangamurage, igaragaza umuco nyarwanda, iboneka mu Rukari i Nyanza ni ukuvuga ni inzu y'Umwami.

Uru ni urugomero rw'amashanyarazi rutanga umuriro mu bintu byinshi bitandukanye uwo bita eregitorogaze cyangwa se umuriro ukomoka ku mazi ndetse ugacanira abantu benshi batandukanye cyane.

Iyi ni inyubako za minisiteri za Guverinoma ikoreramo za minisiteri zitandukanye, ni ukuvuga iz'ubutegetsi bw'igihugu, iz'ubutabera, iz'ubububanyi n'amahanga, bityo ikorerwamo n'abantu b'abaminisitiri.

Ibi ni ibiro by'umurenge, imbere yawo hari amapave ndetse ufite n'imiryango y'ibirahuri by'icyatsi kibisi, uteye irangi ry'umweru.

Aya n'amashuri abana biga babamo ayo bita bodingi. Aya mashuri akikizwa n'icyo bita porotayi cyangwa se gati izengurutse, ayo mashuri kugira ngo batazajya bahanyura bagatoroka ikigo.

Iyi ni kiriziya y'ikabgayi, imbere yayo hari umumotari, biragaragara ko hari n'umuhanda wa kaburimbo, ndetse iyi kiliziya izwi cyane ku bijyanye n'abamisiyoneri, baje mu rwanda mu mwaka wigihumbi kimwe...

Aya n'amashuri ya leta yubatse kugira ngo abana bayigiremo, habamo abarimu, abanyeshuri ndetse n'abarezi, n'abaderigiteri bayoboye ayo mashuri kugira ngo batange uburezi bufite ireme.

Aba ni abamotari, batwara abagenzi kuri moto, babavana mu mpande zitandukanye, babajyana aho bashaka, kugira ngo bakorere amafaranga atandukanye, mu buryo butandukanye kandi bagomba kuba bambaye amakasike, abarinda kugira impanuka zitaba.

Izi ni ingorofani zitwara imizigo ku bantu, izi ni ingorofani zitwara imizigo zitandukanye, ni ukuvuga ibirayi, ibigori ibindi bitandukanye ku bacuruzi bacururiza muri aka gasoko ndetse bagatwaraho n'imyenda.

Aba ni abanyonzi batwara abantu ku magare, inyuma yabo hari itagisi itwara na yo abagenzi bakaba bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo , umuhanda wa kaburimbo ufite ibara ry'umukara.

Uyu ni umukino wo gusimbuka umurambararo, aho abantu basimbuka metero nyinshi aribo batsinze uwo mukino. Uyu mukino ukinwa hari ibyo basize ahantu bari busimbukire bimeze nk'umucanga, kugira ngo bataza gukomereka.

Aya n'amakipe abiri ari gukina volebole. Ayo makipe yambaye umukara n'umweru, abandi bambaye umukara n'umutuku. Harimo abahungu babiri bari gusimbuka kugira ngo bakuremo ikiro ikipe y'umweru yari iteye.

Aba ni abagabo babiri, bamaze gukina amarushanwa ya siporo yitwa tenisi. Aba bagabo bikaba bisa n'aho, umukino wari wabahuje wa siporo ya tenisi urangiye, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Imikino uwayikinnye agira ubuzima bwiza, kandi agatekereza neza, bigatuma abaho mu buzima bwiza butagira imvunane. Ikindi iyo ukinnye neza, bishobora kukwinjiriza amafaranga.